Bamwe mu baturarwanda bamaze gusobanukirwa n'ibikorwa byo kwamamaza, aha ndavuga abafite ubucuruzi runaka yaba ari ugukoresha amaradiyo mu buryo bwo kwamamaza cyangwa televiziyo, usanga byitabirwa n'abantu batari bakeya kandi bikabakururira abakiriya.

Mu mijyi igiye itandukanye cyane hano mu mujyi wa kigali tugenda tubona ubucucike bw'imodoka aho usanga abantu benshi bagenda binubira ubu bucucike maze bagaheraho bavuga ko tugomba kubaka ibindi bikorwa remezo nk'imihanda yagutse mu rwego rwo koroshya ingendo zo mu muhanda.

Radiyanti ni ikigo gitanga ubwishingizi giherereye mu Rwanda, gifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Gitanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bwo kwivuza kw'abantu ndetse n'ubwa bizinesi zigiye zitandukanye. Kikaba kimaze igihe gikorera inaha mu Rwanda.

Bimwe mu bifasha ba rwiyemezamirimo cyangwa se abacuruzi runaka, ni uburyo bamamazamo ibikorwa byabo, aho ushobora gukoresha ibyapa binyuranyuranye cyangwa se amatangazo ku mbuga nkoranyambaga agiye atandukanye.

Bimwe mu bikorwa byo kwamamaza ni ibintu abantu bakunze gukoresha iyo bashaka kwerekana ibikorwa byabo. Aho usanga babinyuza ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri murandasi mu rwego rwo kugira ngo bibashe kugera ku bantu benshi bashoboka.

Bumwe mu bukorikori n'ubugeni bugenda bugaragara mu kwamamaza ibikorwa by'abantu batandukanye, usanga byitabwaho cyane na ba rwiyemezamirimo ndetse bigashorwamo amafaranga atari makeya cyane kubera ko biba bizakurura abakiriya.

Muri iki gihe usanga abantu banyuzwe n'ibigo bitanga ubwishingizi. ugereranyije na mbere aho umuntu atumvaga impamvu yo gufata ubwishingizi bw'ikinyabiziga cyiwe, ariko kuri ubu umuntu arengaho akaba yanafata ubwishingizi bujyanye no kwivuza we n'umuryango wiwe.

Kwamamaza ni uburyo bumwe bukurura abantu mu kugura icyo gicuruzwa, aho usanga abantu benshi iyo bagiye kukigura agendera ku byo yabonye mu bari kucyamamaza, bavuga ko ari cyiza ndetse kigira akamaro ku mubiri w'umuntu, aha ngaha usanga abantu benshi bibakurura kuruta uko bari kwihitiramo ibindi bagura.

Bimwe mu bisigaye bigora ba rwiyemezamirimo bapiganira amasoko, ni ukubona ingwate, cyangwa se ubwishingizi bw'ingwate ku bikorwa uri gupiganira. Aho abantu bose usanga binubira kino gikorwa bavuga ngo, kinogejwe byaborohera kuba bapiganira amasoko.

Bumwe mu buryo bwo kwamamaza kuri ubu, ntibusigaye bukigoye. Kubera ko usanga hari uburyo bwinshi ushobora kunyuzamo kwamamaza ibikorwa byawe, cyane cyane binyuze ku mbuga nkoranyambaga, amaradiyo, ndetse na za televiziyo. Abaturage usanga babikurikirana umunsi ku wundi.

Bumwe mu buryo bw'iterambere abantu bakunze gukoresha ni uburyo bwo gukurikirana uko amafaranga yabo abikwa muri banki. Aho usanga dusigaye dufite uburyo bw'iterambere, ushobora kureba amafaranga wakoresheje ndetse n'asigaye kuri banki yawe.

Bumwe mu buryo bwo kugenzura ndetse no gucunga amafaranga yawe neza busigaye bukorerwa kuri telefone, aho ushobora kubona ibikorwa byose wakoze ukoresheje konti yawe maze bikagufasha mu kuba wagenzura neza amafaranga usigaranye ndetse n'ayavuyeho mu buryo bwiza.

Zimwe muri serivise zitangwa na banki harimo kuba wahuza nimero ya telefone yawe na konti ufite muri banki, ari byo abantu basigaye bishimira cyane kubera ko bitagusaba kujya kuri banki kugira ngo ubone uburyo bwo kubikuza amafaranga, ahubwo ushobora no kubyikorera ku giti cyawe.

Hamwe mu hantu umuntu ashobora kubika amafaranga akumva atekanye ni mu bigo bicuruza amafaranga arizo za banki, aho usanga abaturage bagana ibi bigo muburyo bwo kubona inguzanyo ndetse no kuba bagira ibyo bumvikana kugira ngo nabo babashe kuzamura iterambere ryabo.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Ibicuruzwa byibanzweho n'abanyarwanda cyane muri iyi minsi harimo imyenda ikozwe mu buryo bwa kinyarwanda aho bafata ibitambaro bagashyiraho icyo dukunze kwita umugongo aribyo bituma abantu bayishimira mu buryo bwo kuyitahana ibirori bitandukanye.

Amwe mu maduka hirya no hino agenda aba menshi, aho usanga buri aho ugeze hose utabuharira ikintu ushaka gusa aya maduka atandukanywa n'uko umwimerere w'ibyo bacuruza uhagaze, aho usanga hari ibyo bacuruza wajya ahandi ukaba wabibona ku giciro gito ariko bidakuyeho ko ibyo bintu ari kimwe.

Bumwe mu bukorikori cyangwa se ubugeni bukorwa n'intoki z'abantu, usanga bwitabirwa kugurwa n'abantu b'abanyamahanga, cyane abaje mu bukerarugendo kuko biba bigeze aho bihuriye n'umuco nyarwanda, abantu benshi usanga babikundira icyo.

Bamwe mu bakora ubugeni bavuga ko ababateza imbere cyane ari abakiriya b'abanyamahanga, aho babereka ibyo bakoze maze bagakunda umuco wacu kuko ibikoresho byinshi biba bikozwe bigendeye ku muco nyarwanda.

Nyuma y'aho leta y'u Rwanda yamaganye caguwa, abantu bari bazi ko ubucuruzi bw'imyenda, bugiye guhomba. Gusa siko byagenze, kuri ubu ngubu, ubucuruzi bw'imyenda, ubona abantu benshi babwitabira, hirya no hino mu mazu y'ubucuruzi.

Bimwe mu bikurura abakiriya kuri ubu ngubu mu iduka ricuruza imyenda n'ibishushanyo bigaragara bakoresha mu buryo bwo kwambara imyenda mu buryo bwo kwimurika aho abantu badashidikanya ko aribyo bituma cyane bagura iyo myenda kuko baba babona biberewe nabo bakifuza kuba baba nkabyo

Bumwe mu bukorikori n'ubugeni birangaje urubyiruko imbere, harimo no gukora ibikorwa bijyanye n'umuco wacu, aho usanga abantu bafata ibitenge bakaba bakoramo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'imyambaro yo kwambara ndetse n'ibikoresho byo gutwaramo ibintu.

Kuri ubu ikigereranyo cy'abagabo bitabira kugura imyenda yo kwambara usanga ari gikeya ugereranyije n'abagore, aho usanga abagabo benshi bavuga ko imyenda y'abagabo ihenda kurusha iy'abagore kandi bigatuma bayigura rimwe na rimwe.

Bamwe mu baguzi bagana amaduka atandukanye hirya no hino, bagenda bishimira uburyo bakirwamo ndetse na serivisi babona, aho usanga buri kimwe bakeneye bashobora kukibona hafi atari ngombwa kujya mu masoko agiye aba ari kure cyangwa se badashobora kubona uburyo bwo kugerayo.

Bamwe mu bakora ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'imyambaro ndetse n'udukoresho runaka bifashishije amaboko yabo, bagenda bavuga ko isoko ryabo akenshi rigaragaramo abanyamahanga kuko aribo bakunda ibyo bakora cyane.

Bamwe mu bakuriye ibigo bya sosiyete zicuruza ibinyabiziga, bagenda bishimira uburyo bakoranamo cyangwa se batanga serivisi ku bakiriya babo. Aho banashimira leta ko bagenda bagabanyirizwa imisoro ku binyabiziga maze bikaborohera kubigurisha.

Kuri ubu ubucuruzi bw'imodoka ni ibikorwa urubyiruko rukunze gukora, ndetse na ba rwiyemezamirimo bagiye batandukanye, aho ushobora kugura imodoka ku mugabane w'i Burayi, maze ukaza ukayigurisha, ayo wungutsemo akaba ari inyungu igufasha kongera gushora muri uwo mushinga.

Zimwe mu modoka zigezweho kuri ubu usanga zifite ubwiza buhebuje ugereranyije no mu gihe cya mbere aho imodoka ya mbere yakozwe itari ifite uburyo bwo kugamamo imvura ariko kuri ubu uba wicaye ahantu heza ku buryo no mu gihe cy'imvura watsa imodoka yawe ukagenda nta kibazo.

Amwe mu masezerano umuguzi ashobora kugirana n'umugurisha biba biri mu nyandiko, aho usanga bifasha impande zombi kuba yagira ibyo akurikirana mu gihe bagize ibyo batumvikanaho, gusa ntibikuraho ko bashobora no kwifashisha inzego zibishinzwe mu gihe bagize ibyo batumvikanaho.

Bimwe mu bisigaye byoroshye ku bantu batunze ibinyabiziga, ni uburyo bwo kubisuzuma ndetse no kubipima. Aha ndavuga igihe byagize ikibazo runaka, usigaye ubona uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwag se bugezweho ushobora kuba wamenya imodoka yawe ikibazo ifite.

Bimwe mu byo abantu bishimira cyane, ni uburyo imisoro ku bijyanye n'ibinyabiziga bituruka hanze yagiye ishyirwa hasi, aho mbere wakuraga imodoka hanze ukaba wayisorera wikubye kabiri, ariko kuri ubungubu hakaba haragiye horoshywa imisoro bigendanye n'ikinyabiziga ugiye kuzana.

Ku kigereranyo cya mirongo inani ku ijana usanga ubwumvikane buba hagati y'umuguzi n'umugurisha ari amasezerano. Aho usanga hari ibyo bumvikanye, ku buryo igihe bitamutse bikurikijwe hazaba haboneka ubutabera.

Muri iki gihe hirya no hino usanga hari ubucuruzi bw'imodoka aho bamwe mu bantu bafite amafaranga bemeza y'uko imodoka zimaze kugenda ziboneka ku isoko kandi mu buryo buhendutse, bitewe n'uko hari uburyo bwiza bwo kuzinjiza mu gihugu bitagoranye.

Mu gihe habayeho igura n'igurisha ry'ikinyabiziga, usanga abantu bakenera ibintu byinshi, aho bakenera Noteri ushobora kubasinyira kuri ayo masezerano bagiranye ndetse hakanakererwa n'abandi bantu b'abagabo bo guhamya n'iba koko haguzwe icyo gikoresho

Bimwe mu byuma byifashishwa mu buryo bw’ikoranabuhanga mu kubara amafaranga, n’abakozi bakora mu bigo bicuruza amafaranga, arizo za banki, usanga bifatwa neza cyane. Kuko biramutse byibeshye, byateza ikibazo gikomeye cyane.

Bamwe mu bakoresha amafaranga agiye ava mu bihugu bigiye bitandukanye, bavuga ko banyurwa na serivisi bahabwa mu gihe cy'ivunjisha no kugura ayo mafaranga; aho usanga abatura Rwanda bose banyuzwe n'ibiciro aya mafaranga bariho mu gihe cyo kuyagura cyangwa se mu gihe cyo kuyavunjisha.

Bimwe mu biceri bikoreshwa nk'amafaranga y'aha mu Rwanda, usanga bikoreshwa gake cyane. Aho kuri ubu ngubu utagipfa kubonana umuntu ufite ibiceri mu ntoki, kubera ko abantu benshi basigaye bakoresha uburyo bwo kubika amafaranga ku matelefone yabo.

Bumwe mu buryo bwiza abakozi bo mu mabanki bakoresha mu kubara amafaranga batibeshye mu gihe bafite amafaranga menshi bagomba kubara, ni uburyo bw'akamashini kabara amafaranga, gusa nabwo babikorana ubwitonzi, mu rwego rwo kugira ngo bataza kwibeshya.

Bikunze kubaho gakeya ko abantu amafaranga bakoresha ahinduka kimwe rero no mu rwanda inoti twakoreshaga kera sizo tugikoresha ubungubu aho bagenda bahindura bimwe mu birango bigaragara ku noti usanga kuri ubu bashyiraho ibigendanye n'iterambere tugezeho.

Amwe mu mafaranga agenda akoreshwa hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye atari mu Rwanda gusa, dusangamo inoti ndetse n'ibiceri, aho usanga abantu bayakoresha rimwe na rimwe agenda ahinduka bitewe n'ibyo igihugu gishaka.

Amwe mu mata agenda aturuka hirya no hino, usanga agenda akusanyirizwa aho dukunze kwita ku ikusanyirizo, ayo ngayo ni ayo abaturage baba babashije gukura mu mukamo wayo, bakayegereza ibyuma bishobora kuyatunganya akaba yakoreshwa ibindi bintu.

Iyo tugeze ku bacuruzi bacuruza amazi usanga ari abantu bakunda kuganwa n'abakiriya benshi. Aho usanga kuri ubu, kubera ko bashishikarizwa kunywa amazi meza mu buzima bwabo, abantu ariyo mpamvu bitabira kuyagura.

Bimwe mu byo barwiyemezamirimo bashishikarizwa na leta ni ugutanga serivisi ku babagana, aho usanga nabo babibonamo inyungu kubera ko iyo wakiriye umuntu neza n'ubutaha aragarukaruka akaguteza imbere.

Bimwe mu bisigaye bishorwamo amafaranga menshi cyane n'abatari bakeya usanga ari ubworozi, aho abantu basobanukiwe icyo bimaze ndetse n'amafaranga ashobora kuvamo usibye ko mbere byaharirwaga gusa abaturage batuye mu cyaro.

Kera ntibyakundaga kubaho ko abantu bajya kugura amata kuko wasangaga mu miryango myinshi ari aborozi. Ariko kuri ubugubu ku makusanyirizo yose y'amata usanga abantu ari urujya n'uruza kuko ntawecyemerewe kororera mu rugo muri iki gihe.

Bamwe mu bo abantu bakunze kwita abazunguzayi ni abantu bagira imirimo y'amaboko ndetse no kwihangira umurimo ukomeye, aho ashobora kugenda agateka nk'amandazi cyangwa ibyo dukunze kwita ibiraha akaba yagenda azenguruka mu ngo no mu mihanda hirya no hino abicuruza mu ndobo.

Mamwe mu batunganya amata cyangwa se abakorera ahantu hacuruzwa amata, usangwa harangwa n'isuku. Kubera ko amata buriya ntago ajyana n'umwanda. Biva mu muco wa kera, aho bavugaga ko amata ataterekwa hasi, ahantu hasa nabi.

Bamwe mu bakozi bakorera kure y’ingo zabo, usanga akenshi iyo amasaha y’ikiruhuko hagati mu kazi ageze, bagana amaduka abari hafi mu buryo bwo kubona icyo bashyira mu nda. Aha ndavuga nk’amaduka matoya, aba afite ibicuruzwa biringaniye nk’amata n’ibindi bintu byo gufatisha.

Kuri ubu imikorere ya serivisi zitangwa igenda ishyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho usanga kohererezanya amafaranga mu buryo bwa murandasi bisigaye byoroha aho ushobora kohererereza amafaranga umuntu uri mu gihugu cya kure kandi akamugeraho mu buryo bworoshye kandi bwizewe.

Bumwe mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga mu buryo bwo kwishyura dukoresheje amafaranga ari kuri telefone zacu, bugenda bwishimirwa n'abatari bakeya hano mu Rwanda. Ikindi kandi usanga bamwe mu bacuruzi banabyitabira cyane, aho usanga baba bafite utwuma tugufasha kuba wakwishyura ukoresheje ikarita yawe ya banki.

Bimwe mu bituma abantu benshi barushaho gukunda ikoranabuhanga rya telefone, ni uko bayikoreraho ibintu byinshi. Yaba ari uburyo bwo kubitsa amafaranga, kuyabikuza ndetse no kureba ayo usigaranye kuri konti yawe. Ibi ngibi bikunze gukoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi.

Kuri ubu usigaye usanga abantu telefone ngendanwa bayikoreho ibintu byinshi mu buryo budasanzwe, aho usanga mu buryo bwo kwishyura babikora mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya, ibi bikaba byishimirwa n'abatari bakeya mu gukoresha uburyo bw'itumanaho.

Bamwe mu bakozi bakora ibijyanye n'icungamutungo, usanga bahora bafite akazi kenshi, aho bitonda mu gukora imibare ku buryo bihura ndetse bakanaharanira ko batagwa mu cyuho.

Zimwe mu nyemezabwishyu zihabwa umukiriya umaze kugura igicuruzwa runaka, harimo ikirebana no gutanga imisoro, aho usanga kuri ubu abaturage bose basigaye bitabira gutanga umusoro biciye mu byo baguze.

Bumwe mu buryo bwo kwandikisha imirimo cyangwa se ibyo ukora ndetse n'ubucuruzi bushyashya ugiye gutangiza, binyuzwa mu kigo gishinzwe gutanga ubuzima gatozi. Aho abantu bishimira serivise batanga kubera ko iba yihuse kandi inoze.

Bumwe mu buryo abantu benshi muri iyi minsi basigaye bakoresha mu kubika amafaranga yabo ni ukuyabika bakoresheje amafaranga y'abanyamahanga, aho ayavunjisha akayashyira mu madorari cyangwa se andi mafaranga y'andi ahenze akabona kuyashyira muri banki.

Uko iterambere ry'igihugu rigenda ryihuta usanga abantu bashishikarira mu gushaka amafaranga, cyane ko no mu minsi isanzwe byabaga biriho ariko kuri ubu usanga byarafashe indi ntera, aho umuntu ashobora kubyuka mu gitondo agacyurwa n'ijoro kubera ko yari ari muri gahunda zo gushaka ubuzima.

Uburyo bw'ivunja n'ivunjisha bwagiye butera imbere cyane, uko imyaka yagendaga yegera imbere, aho wasangaga kera wajyaga kuvunja, nta giciro kizwi kiriho runaka ushobora kuvunjaho ayo mafaranga, atari ayo mu Rwanda, gusa kuri ubu byashyizwe mu bikorwa ndetse bagendera ku giciro kizwi, kandi kiba cyashyizweho na Banki nkuru y'u Rwanda.

Amadolari y'Amanyamerika ni amwe mu mafaranga umuntu wese afata akishima, kuko mu gihe ushaka kuyavunja mu manyarwanda ahita aba menshi cyane ugereranyije n'ayo wari ufite, ibi bigarukwaho n'abantu benshi bumva ko babona amadolari kuruta uko babona amanyarwanda.

Bamwe mu bakunze kugenda hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, usanga baba bafite amafaranga y'ibyo bihugu, aho iyo bageze mu Rwanda bakenera uburyo bwo kuyavunjisha. Aha usanga bishimira serivise zitangwa mu buryo bwo kuvunja amafaranga, binyuze muri banki nkuru y'u Rwanda.

Amwe mu mafaranga dusanga mu baturage cyane y'abanyamahanga yiganjemo amadolari, aho usanga bayakoresha mu buryo bw'ubucuruzi cyane, yaba ari mu ivunjisha cyangwa mu buryo bwo kuyagura usanga ibihugu ibyo wajyamo byose utabura abantu bayakoresha, kandi no kuyavunja ugasanga bayavunja ku giciro cyiza.

Bumwe mu buryo bukoreshwa n'Igihugu mu gukora inoti z'amafaranga zizakoreshwa n'abaturage, bagenda bakoresha ibirango bigiye bitandukanye, aho usanga bakoresha ibirango bya bamwe mu bantu babaye indashyikirwa cyangwa se umuco runaka w'Igihugu.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu kubara amafaranga, akenshi dukunze kubibona mu mabanki, usanga biyabara neza kandi mu buryo bwizewe, aha ntihajya habamo ikosa cyangwa ngo habamo kwibeshya gusa na none n'ubwo tubyizera akenshi natwe turushaho tukayabarisha intoki tukareba ko bihura.

Imwe muri gahunda abantu bishimira cyane ni uburyo bworoshye bwo kohererezanya amafaranga, avuye hirya y'amazi cyangwa se avuye mu bindi bihugu, uyakira uri mu Rwanda aho ushobora gukoresha bimwe mu bigo bitanga ayo mafaranga, ukaba wabasha kuyakira ndetse n'umuntu wayakohereje akaba, azi neza yukouko ari bukugereho.

Bumwe mu buryo abanyarwanda bakoresha bahana amafaranga, bari mu bihugu bigiye bitandukanye bugenda buza ari bwinshi. Aho abantu bishimira iri terambere kubera ko baba bafite ababo bashaka kubaha amafaranga, ariko ugasanga binyuze mu zindi nzira, bigoye ku buryo atabasha kubageraho yose.

Bumwe mu buryo bwo kuvunjisha cyangwa kugura amafaranga y'abanyamahanga, usanga bigira uburyo bikorwamo aho abaguha iyo serivisi bashobora kukwaka ibyangombwa bikuranga kugira ngo habe habaho ubwirinzi bw'ikoreshwa ry'amafaranga.

Bimwe mu byorohereza ba mukerarugendo, mu gihe bageze ku kibuga k'indege hano mu Rwanda, ni uko usanga hirya no hino, haba hari aho bashobora kuba bavunjishiriza amafaranga yabo, mu buryo bwo gutangira gukoresha amafaranga akoreshwa mu gihugu hagati.

Mu gihe uri gukora igikorwa cyo kubikuza cyangwa kwakira amafaranga yaturutse hanze akenshi abakozi babishinzwe bagerageza kukwaka ibyangombwa aho baba bagirango ngo barebe neza ko umuntu wakohereje amafaranga uwo yayahaye ariwe waje kuyafata nta buriganya burimo kandi bakanoza serivisi yabo mu buryo bwishimiwe ku mpande zombi.

Bumwe mu bucuruzi bwo kuvunja amafaranga y'ibihugu bigiye bitandukanye, biba byiza iyo ubusanze ku kibuga cy'indege kubera ko iyo ukigera ahantu runaka ugiye, uba usabwa gukoresha amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu.

Bumwe mu buryo butajya bwemerwa na banki nkuru y'u Rwanda ni ukuba umuntu yakoresha amadorari mu gihe ari kwishyura serivise runaka kubera ko ibi ngibi biri mu bintu bituma amafaranga akoreshwa mu gihugu imbere ata agaciro.

Ibi bimaze kumenyerwa n'abantu benshi ko igihe ugeze mu gihugu runaka aho ugiye gutembera uhasanga uburyo bwo kuvunja amafaranga yo mu gihugu cyawe wari ufite, aribyo abantu bishimira cyane kuba wabisanga ku kibuga cy'indege mbere y'uko ufata urugendo ujya aho wari ugiye.

Bimwe mu biranga inzu z'ubucuruzi nyinshi, ni uko uko ugenda ubona ibyapa bigiye biriho imirimo y'ubwo bucuruzi bukora. Aha bigenda biyobora abantu ku buryo ku muntu wese uzi gusoma atabasha kubura serivisi runaka aramutse ayikeneye.

Ububaji ni bumwe mu bugeni ababukora babonamo amafaranga menshi aho usanga bakora ibikoresho bikunze gukenerwa mu rugo rw'abantu, aha ngaha ndavuga nk'intebe, ibikoresho byo kumanika imitako ndetse n'ibitanda byo kuryamaho.

Bamwe muri ba rwiyemezamirimo batumiza ibikoresho bigiye bitandukanye hanze y'u Rwanda, bishimira cyane uburyo bw'ubwikorezi buhari bwo kuzana ibyo baba baguze, aho usanga abaturage babyishimira ndetse bigatuma abakiliya babagana ari benshi.

Kuri ubu ibikoresho bigiye bitandukanye bisigaye bifite ubwiza buhebuje, aho ba rwiyemezamirimo cyangwa se ababikora usanga bagenda bashyiramo ibintu bitandukanye kugira ngo intebe zirusheho gusa neza, aha ndavuga nko kwita ku kuko zigaragara inyuma cyane.

Bimwe mu bikorwa by'ubugeni hakoreshejwe imirimo y'intoki z'abantu harimo ububaji; ni ahantu usanga cyane hibanda ku bijyanye n'udushya twinshi; aho usanga bakora ibikoresho na we wabireba ukabona ko ari ibikoresho bibereye amaso kandi bigakundwa n'abantu batari bake.

Imwe mu mitako usigaye usanga mu mazu y'abantu hirya no hino isigaye iba ibereye ijisho, aho ubona iba irimo ubugeni bwinshi cyane ndetse iba ikoze mu buryo butangaje, aha ndabivuga ngereranyije n'iyo twakoreshaga kera wasangaga ari akantu gusa ko gutereka aho ngaho.

Bimwe mu bikorwa ababaji bakunze gukora usanga ari ugufata ibiti maze bakabiremamo cyangwa se bakabikoramo ibintu bigiye bitandukanye. Aha ndavuga imeza, ibitanda, utubati two kubikamo ibikoresho ndetse n'intebe zo kwicaramo.

Zimwe mu nzu dusanga mu mujyi wa Kigali zubashywe akenshi usanga ari amahoteli, aho ba rwiyemezamirimo baba barayubatse bagendeye ku bishushanyo mbonera by'izindi hoteli zigiye zitandukanye, aha turavuga nk'izijya zigaragara mu mijyi igiye ikomeye hirya no hino ku Isi.

Bimwe mu bigenderwaho kuvuga ko umujyi ukize cyangwa se umujyi uri kugenda mu iterambere ni ukubona inyubako ndende aho usanga hirya no hino mu gihugu hagaragara inyubako zitari ntoya cyane aho ba rwiyemezamirimo, amabanki ndetse n'ibigo bya Leta bishishikarira kuzamura izi nyubako mu rwego rwo gutera imbere.

Zimwe mu nyubako zigaragara mu mujyi wa Kigali usanga mu gihe cya nijoro zigira uko zigaragara, aho igihe bacanye amatara ziba zigaragara mu buryo butangaje cyane ko n'abazigana bakunda uko ziba zisa mu gihe cy'ijoro.

Abantu benshi bakunze kuvuga ko inyubako igirwa n'uburyo isakaye, aho usanga abantu mu buryo bwo kuzamura igisenge bakizamurisha amabati agiye anyuranyuranye, bikarushaho no gutuma inzu isa neza ku buryo umuntu iyo ayirebeye inyuma aba abona ubwiza bwayo.

Kimwe mu bituma iterambere kuri ubu ryihuta harimo ibikorwaremezo bigenda byubakwa hirya no hino cyane cyane nk'amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa byinshi aho usanga serivisi zitangirwamo zikurura ba mukerarugendo maze bakaza gusura u rwanda.

Bimwe mu bikorwa ba rwiyemezamirimo bakunda gukora ni ukuzamura imiturirwa igiye itandukanye, ari yo ituma umujyi wacu uhora usa neza, cyane ko bikurura ba mukerarugendo mu gihe baza mu Rwanda bakaba babona aho barasha kuba ndetse n'aho basohokera heza.

Ubwiza bw'inzu akenshi usanga bugaragara mu bikoresho biyigize, aho usanga ibikoresho bigiye bigize inyubako zigiye zitandukanye kuri ubu, biba ari ibikoresho binogeye ijisho, cyane ko abantu basigaye banabyitabira, yaba ari ukubikura hanze, cyangwa kubikorera hano mu Rwanda.

Bimwe mu biranga inzu cyangwa mu byerekana ko isuku iranga iwawe, ni uko usanga ibintu byose biteretse aho byabugenewe, aha ndavuga nk'ibikoresho bigiye bitandukanye byo gukoresha ndetse n'ibindi bintu ukenera hirya no hino, atari ukuvuga ko ushobora gusanga kimwe hariya ikindi hariya.

Zimwe mu inyubako zo muri kigali zigaragara neza mu masaha ya nijoro, aho usanga ziba zifite amatara yaka mu buryo butandukanye, ariyo atuma zigaragara mu buryo budasanzwe. Aha ndavuga iyo urebeye ahirengeye witegeye umugi ugenda ubona amatara mu buryo bugiye butandukanye.

Amwe mu mahoteri tubona hano mu mujyi wa Kigali arangwa n'ibikorwa by'imyidagaduro, aho muri hoteri usanga bafite ibikorwa byo gukoreramo siporo zigiye zitandukanye, ibi bishimisha abazigana kubera y'uko rimwe na rimwe uba ushaka kuruhuka yaba ari mu mutwe cyangwa mu mubiri.

Bimwe mu bintu bituma hoteli igaragara nkaho ari hoteli nziza ni ibikoresho biba bigize mo imbere aho usanga haba hasa neza ndetse hari uburanga buhebuje kuruta izindi hoteli izo ari zo zose aha ngaha bikurura ba mukerarugendo ndetse nuhageze wese akumva yazagaruka.

Mu gihe nk'iki u Rwanda ruvuga ko ari igihugu kiza gifite isuku ndetse n'umutekano, biturutse ku nyubako zimwe na zimwe z'iterambere zigenda zigaragara mu mujyi wa Kigali, aha ba rwiyemezamirimo ariho bavuga bagomba gushyira imbaraga mu guteza imbere igihugu cyacu.

Bimwe mu bigaragaza isuku ndetse akaba ari nayo mpamvu abantu benshi bakoresha abakozi bo mu rugo, ni ukugira ngo babafashe gushyira ibintu ku murongo, aho ushobora gusanga ibintu mu nzu bijagaraye hirya no hino ariko iyo bahari abo bantu bagufasha kuba wabishyira ku murongo.

Zimwe muri serivisi za hoteli zinogera abayigana kubera uburyo baba babikoranye, ubushishozi n'ubwitonzi, cyane nko mu gihe bategura amanama usanga ibintu byose biba biri ku murongo kandi ahantu bagiye gukorera hasukuye, ari byo bikurura abakiriya benshi.

Mu nyubako nyinshi z'amahoteli ugenda uhasanga ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bigufasha kuruhuka aho ushobora kuhasanga nk'ubwogero ushobora kujya mu mazi ukaba waruhukiramo ndetse ukahasanga naho wakwicara hirengeye kandi heza hatekanye.

Kuri ubu hari abantu benshi batarasobanukirwa ibijyanye n'ubwishingizi ari na byo bituma abayobozi b'ibigo bitanga iyi serivise y'ubwishingizi bagana amaradiyo n'amateleviziyo kugira ngo babashe kugaragaza ibikorwa byabo ndetse no gusobanurira birushijeho ababagana.

Bimwe mu bituma abantu bitabira kugana ahatangirwa serivisi ni uko habayeho ubukangurambaga cyane bwakanguriraga ba rwiyemezamirimo kuba batanga serivisi neza kandi mu gihe gikwiye nta n'umwe wirengagijwe.

Bimwe mu bigo bitanga ubwishingizi, yaba Ari ubw'ibinyabiziga, ubwo kwivuza ndetse n'ubwishingizi mu kwivuza, usanga bagenda bagera no mu duce two hirya no hino mu gihugu, mu gushishikariza abaturage gukoresha ubwishingizi ndetse no kubasobanurira uko bigenda.

Polisi y'igihugu itegeka ko ikinyabiziga cyose giherereye mu muhanda kigomba kuba gifite ubwishingizi. Ari na byo bituma habaho imikoranire myiza ya za sosiyete zicuruza ubwishingizi, aho usanga zishimira abafatanyabikorwa babo ko bakorana neza cyane.

Kuri ubu imyumvire y'abantu igiye itandukanye bitewe n'uko bumva cyangwa se bafata ibijyanye n'ubwishingizi, aho usanga umuntu akubwira ko ntacyo ateze kuba ndetse nta n'icyo yikanga. Mu gihe undi akubwira ko adafashe ubwishingizi aba yumva adatekanye.

Ibigo bitanga ubwishingizi hano mu rwanda bimaze kugenda biba byinshi aho usanga abantu babyitabira cyane kandi bagenda barushaho gusobanukirwa impamvu yo gufata ubwishingizi bitandukanye na mbere bikiza aho wabonaga abantu batumva impamvu yo kubigana.

Zimwe muri za sosiyete zitanga ubwishingizi, bwo kwivuza, ndetse n'ubwishingizi bw'ibindi bikorwa, ibyo aribyo byose, nka za bizinesi, usanga baganwa n'abantu batari bake, aho abantu bashima imyitwarire, n'uburyo batangamo serivisi zabo.

Bimwe mu bikoresho dusanga mu mazu agiye ari hirya no hino, akomeye, usanga ari imitako, aho imitako igaragaza ubwiza, ndetse abantu bakarushaho kubona ahantu hasa neza, kubera bayibonye, ibi kandi bikunze gukoreshwa no mu ngo za bamwe batari bake.

Bamwe mu bakoresha ndetse n'abakozi babo mu gihe cy'ama saa sita iyo ugiye gushaka serivisi usanga bose bagiye aho bitabira gahunda zo kujya gufata amafunguro yabo, aha bibabaza benshi kuko nabo ari wo mwanya baba babonye wo kujya gushaka izo serivisi.

Bumwe mu buryo bwishimirwa n'abantu cyane mu buryo bwo gukorana n'ibigo bicuruza amafaranga arizo za banki ni uko batanga inguzanyo, abantu bakaba bakoresha ayo mafaranga maze bakagenda bongeraho inyungu nkeya nyuma y'icyo gihe bumvikanye na banki.

Zimwe mu nguzanyo zitangwa n'ibigo by'imari bicuruza amafaranga usanga zishimirwa n'abaturage batari bakeya kubera ko hari igihe baguha kuzishyura mu gihe kinini kandi ibyo ugiye kuyakoresha bizaba biri kunguka amafaranga, ukumva ko ntacyo byaba bigutwaye kuba wayifata.

Bumwe mu buryo bukoreshwa n'abaturage ndetse na ba rwiyemezamirimo batandukanye ni uburyo bwo kwaka inguzanyo aho usanga abantu bakubwira ko mbere y'uko ujya kubaka inzu ndende ushobora kubanza ukaka inguzanyo maze ukazagenda uyishyura gakeya.

Zimwe mu nyubako zigenda zigaragara mu mujyi wa Kigali nziza, zubakwa na ba rwiyemezamirimo, ugenda usanga batagikoresha uburyo bw'inkuta twari tumenyereye zubaka inzu. Ahubwo ushobora gusanga bakoresheje n'ibirahure kuburyo ushobora kurebamo imbere uri inyuma.

Bimwe mu bituma abatura Rwanda bishimira gukoresha ama banki ni uburyo bw'inguzanyo, aho usanga umuntu ashobora kuguza amafaranga akayakoresha akazayishyura mu gihe runaka yongeyeho amafaranga makeya cyane, bikabafasha mu gukoresha amafaranga neza ndetse no kwiteza imbere.

Uburyo bw'imikoranire myiza hagati y'ibigo bicuruza amafaranga arizo za banki ndetse n'abazigana hagomba kugaragara ubwumvikane ndetse n'imikoranire myiza, aho buri ruhande ruba rusabwa kugira inyungu rubona muri iryo curuzwa ry'amafaranga.

Bimwe mu biranga ahabereye ibirori ni uko usanga hasa neza hateguwe mu buryo butandukanye, aho abahategura bagendera ku bugeni ndetse n'ibindi bihangano runaka udashobora kubona mu minsi isanzwe, kandi byose hamwe bikaba biba bigamije kugira ngo ibyo birori bize kugenda neza.

Bimwe mu bigo by'imari cyane amabanki asigaye atanga inguzanyo zo kuba wakubaka inzu, ukaba wayigura maze ukazagenda uyishyura gahoro gahoro. Ibi bimaze kwishimirwa n'abantu benshi kuko burya kubaka inzu muri iki gihe bigoye.

Bimwe mu bicuruzwa byiganjemo ibiribwa bikunze kubura ku isoko hirya no hino, ariko iyo ugiye mu masoko manini ukabisangayo, aho abaturage bakubwira ko mu gihe babajyanye mu maduka matoya bipfa kuruta uko mu isoko hahurira urujya n'uruza rw'abantu wabisangayo kuko bigurwa byihuse.

Mu isoko ni ahantu usanga imbaga nyamwinshi y'abantu bahateraniye. Cyane baje gushaka ibiribwa bigiye bitandukanye. Aho usanga umuntu ahaha ariko agashaka ibintu bigifite ubuziranenge, byo kuba yateka cyangwa se, akaba yabika igihe kinini kirenze umunsi umwe, abikoresha.

Bamwe mu babyeyi tubona hirya no hino mu masoko, usanga bakunze kuba bahetse abana, aho iyo umubajije akubwira ko nta wundi muntu yari kumusigira, ahubwo kuza ku mukorana nta kibazo bitwaye kandi ntacyo atuma atakora.

Bamwe mu bakunze kuba bahererereye aho abantu bahahira dukunze kwita abakarani usanga bikorera imizigo y'abantu, mu gihe ubuze ibintu byinshi akaba yagutwaza kugeza mu rugo cyangwa akagufasha kugeza ibyo uguze ku modoka yawe maze ukabipakira.

Bimwe mu bisigaye biranga abaguzi, ni uko uko bishyura bakoresheje uburyo bwa telefoni. Ibi byishimirwa n'abatari bakeya kubera ko byagabanyije uburyo bwo kugendana amafaranga mu ntoki, rimwe na rimwe ukisanga wayataye. Aho n'abacuruza bo ubwabo na bo babyishimira, kubera ko mu gihe cyo kugarura amafaranga hari igihe bibeshyaga.

Bamwe mu bakozi ba sosiyete icuruza itumanaho ugenda ubasanga hirya no hino, aho bafasha abaturage gukora ibikorwa byo kohereza amafaranga, kuyabikuza ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga bayoherereza inshuti n'imiryango yabo ibari kure.

Bamwe mu bakozi batanga serivisi z'ikoranabuhanga bagenda bishimira cyane iterambere bagenda bageramo aho usanga bashobora gufata ahantu hamwe hahurirwa n'abantu bakaba bahashyira ibikorwa byabo kandi abantu bakabyitabira kurushaho kuruta uko bari kujya ahandi hirya hadahurira abantu.

Bumwe mu buryo bworoshye muri iki gihe, ni uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa cyangwa se ibindi bintu runaka wahaha binyuze mu buryo bw'ikoranabuhang. Aho nta kiguzi ucibwa ndetse n'umuguzi uguriye akaba atabyinubira kuko aba azi ko ayo mafaranga azayabona mu buryo bworoshye, kandi nawe akabigushishikariza.

Kwamamaza ni imwe muri gahunda abantu bose bakoresha mu buryo bwo kumenyekanisha imirimo cyangwa se ibikorwa bakora, aha bikunze kugaragara ku masosiyete menshi y'itumanaho, aho agenda ajya hirya no hino mu turere dutandukanye ashishikariza abaturage kubagana.

Mu gihe cyahise gitoya wasangaga abacuruzi batishimira uburyo bwo kwishyurwa hakoresheje imirongo igiye inyuranye, ariko kuri ubu usanga babyitabira cyane ndetse n'aho ugeze hose nabo bakabikwisabira ko ushobora kuba wabishyura ukoresheje uburyo bwa telefone.

Iyo umukiriya ahawe serivisi nziza akaba yafashwa n'umwakiriye mu buryo bwiza, bituma ashishikariza na bagenzi be uwaba ufite ikibazo runaka kuba yagana ishami runaka bakaba bamuha ubufasha, kuko nawe azi neza yuko bamwakiriye kandi bakagira icyo bamufasha.

Mu buryo bwiza bwo kwakira ukugana, biba byiza iyo bibaye imbonankubone, kuko ashobora kugusobanurira inzitizi ashobora guhura nazo, ukaba wazumva ndetse ukagira icyo umufasha, ku buryo ataha anyuzwe n'iyo serivisi ushobora kuba umuhaye, cyangwa se akaba nawe yahita agira inyunganizi yongeraho, ku bitewe na serivisi ahora ahabwa.

Bumwe mu buryo abantu kuri ubu bakoresha cyane, ni uburyo bwo kugura ibicuruzwa cyangwa se ibindi bintu bakeneye runaka, binyuze ku murongo wa interineti. Aho usanga bisigaye byizewe kandi mbere bitari bimeze gutyo, abantu barabaga bafite ikibazo cy'uko ibintu byabo bishobora kubura.

Bimwe mu bimaze kumenyerwa n'abantu batari bakeya, harimo kuba wagura ibicuruzwa binyuze ku mbuga nkoranyambaga, aho umuguzi akwereka igicuruzwa maze wagishima mukavugana binyuze ku rubuga, akaba yakubwira igiciro runaka ku buryo unagishimye akikoherereza nta kibazo.

Mu buryo bwo koroshya ubucuruzi ndetse no guhahira hirya no hino hatandukanye, hagiye haza imbuga nkoranyambaga umuntu ashobora kuba yakoresha akaba yagura ikintu kiri hanze kandi kikaba cyamugeraho mu Rwanda biciye mu nzira nziza kandi zizewe, aho usanga mo uburyo bwo kwishyura bworohera abantu kuruta uko yajya kugishaka mu isoko.

Kuri ubu abantu benshi bamaze kugenda bamenya gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga aho usanga ashobora gutuma ibintu atavuye aho biri kandi bikamugeraho. Ibi biba cyane igihe umuntu ashaka gutuma ibyo kurya cyangwa kuba yakohereza ibindi bikoresho runaka bivuye ahantu hamwe bijya ahandi.

Bumwe mu buryo bwizewe kandi abantu basigaye bakunda gukoresha hano mu Rwanda ni uburyo bwo kuba watuma umuntu akoresheje uburyo bw'ikinyabiziga, akaba yakugereza ikintu runaka aho washakaga ko kigera, ku giciro cyiza utarinze uva aho uri kandi akabona icyo wamwoherereje.

Kuri ubu usanga abantu benshi bamaze gusirimuka ndetse bamaze kumva neza no guhindura imyumvire y'uko bagomba gukoresha ibikorwa byo kuri murandasi cyane ko bijya bigaragaramo ubujura, hamwe ahangaha ni amasoko asigaye amenyerewe cyane acuruza ibintu kandi usigaye ubona abantu bayitabira.

Bumwe mu buryo bwo kugurira ibintu kuri murandasi busigaye bwaragiye bwoshya ibintu, aho ushobora kugura ibintu imahanga ariko bikanga bikagera mu Rwanda nta nkomyi bigize kandi ukabibona ku giciro gitoya ugereranyije n'uko wari kujya kubigura uteze ukagaruka bigutwaye amafaranga menshi.

Abubatsi b'amazu basigaye bubaka mu buryo butangaje aho usanga mu rupangu bagena umwanya wo gushyiramo ubusitani bakabushyiramo mu buryo bunogeye kandi bubereye ijisho, abantu bakabyishimira ndetse n'abagusuye bakajya babona utuye ahantu heza.

Bimwe mu bikoresho abantu basigaye bubaka amazu yabo bakoresha, usanga biba bigiye bifite ubwiza butandukanye, cyane iyo urebe nko ku matara, amarangi, ndetse n'inzugi, basigaye bakoresha cyane n'amakaro biba bigiye bitandukanye n'ibikoresho twakoreshaga kera.

Bimwe mu bintu bigoye kuri ubu ni ukubona inzu yo guturamo , aho ushobora kumara iminsi irenga ibyumweru bibiri utarabona aho kuba, bitewe nuko inzu zazamutse ndetse na ba nyiri inzu bakaba bashaka amafaranga aruta ayo inyubako zayo zakagombye gukodeshwa.

Amwe mu mazu asigaye agaragara nk'ahenze, muri iki gihe, usangamo ibikoresho, bitagira uko bisa. Aho ushobora kureba akabati kabikwamo imyenda, ukabona ari ikindi kintu gitandukanye, ibi ngibi aribyo bikunzwe n'abantu, dukunze kwita abasirimu.

Bimwe mu bikoresho by'ubwubatsi bisigaye bikoreshwa mu kubaka inzu, harimo ibyuma, amakaro, amarangi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, usanga abantu babikoresha muburyo butandukanye, aho bigenda bikagira inzu nziza, abantu bose bayirebye bakayishimira.

Mu gihe tugendana n'iterambere bimwe mu bikoresho twakoreshaga ahambere bigenda bihinduka, cyane iyo urebye nk'inzugi twakoreshaga kera, zabaga zimeze ukuntu, ariko kuri ubu ngubu usanga ureba urugi ukaba wabona ko atari n'urugi ari ikindi kintu kandi ari urugi.

Bimwe mu bisigaye bigoye muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda, ni ukubona ubutaka bwo kubakaho cyangwa se kugura, aho usanga binyuze ku maradiyo no ku mateleviziyo abantu bagenda bamamaza ibikorwa byabo ariko ugasanga mu butaka biragoye cyane.

Mu gihe cy'izuba abantu benshi bashaka uburyo bugiye butandukanye cyangwa bunyuranye bwo kuba baruhukamo aho usanga bamwe bahitamo kuba bajya gukora siporo yo koga nka bimwe mu byabafasha mu buryo bwo kuruhuka bigatuma bagira ubuzima buzira umuze.

Bamwe mu bacuruzi bacuruza ibikoresho byakoreshejwe bemeza ko babona abakiriya ariko biba bigoye kubumvisha ko ibikoresho ari bizima, aho usanga ababagana bose baba bakeneye ko bagirana amasezerano y'uko ikintu ntigipfa mbere y'igihe runaka bazakibagaburira.

Kuri ubu ibintu bitandukanye n'ibya kera cyane ugeze mu myubakireho biba bitandukanye aho wasangaga ubwiherero, ubwogero ndetse n'aho batekera biba biherereye hanze ariko mu nyubako z'ubungubu biba biherereye mu nzu kandi nta kibazo bitwaye kuko nibyo abantu basigaye bishimira nk'iterambere.

Zimwe mu nzu zigenda zigaragara hirya mu duce tugiye dutandukanye, usanga zihenda bitewe n'aho zubatse, aho usanga nk'inzu yubatse hafi n'umuhanda ihenda kurusha iri hepfo gatoya y'umuhanda.

Bumwe mu buryo bwo kugura amazu, gukodesha cyangwa se gushaka ubutaka bwo kugura n'ibintu bisigaye bikomeye cyane, aho ushobora kumara igihe kinini ushaka inzu wagura ariko ukayibura, atari uko zihenze ahubwo ari ibiciro bigiye bitandukanye byazamutse.

Bimwe mu bintu bisigaye bihenze cyangwa se bitwara amafaranga menshi mu mujyi wa Kigali, ni ukubona inzu yo kubamo, aho ushobora kumara ukwezi kose ugenda uzenguruka hirya no hino, ariko utabasha kubona inzu iri ku giciro cy'amafaranga ushaka.

Bimwe mu bintu byinshi biranga cyangwa se bigaragaza inzu nziza usanga ari aho iherereye ndetse n'uburyo igaragara inyuma aho mu kuyubaka bakoresha amarangi meza kandi bagakoresha n'ibipangu byiza kandi ikaba iri ahantu hatekanye hatari akavuyo kenshi.

Bimwe mu bisigaye bigoye muri uyu mujyi wa Kigali ni ukubona inzu yo gukodesha. Aho usanga wifashisha abantu babizobereyemo, bakaba bagenda bakuzengurutsa ku nzu zigiye zitandukanye, maze ukaza kugira amahitamo yawe.

Bimwe mu byapa tugenda tubona hirya no hino ku mihanda, biba biranga cyangwa se byerekana ikintu runaka. Aho usanga bishobora gukoreshwa n'abacuruzi berekana ibicuruzwa cyangwa se berekana serivise batanga ku bw'icyo gikorwa.

Bumwe mu bucuruzi busigaye bukorwa naba rwiyemezamirimo, ni ukubaka amazu bakayagurisha. Aho usanga amazu yabo aba ari ku giciro kiboneye, ndetse abantu bitabira kuyagura kuko baba bizeye ubuziranenge bwayo.

Hari uburyo bumwe bwo guhaha tujya tubona mu yandi masoko yo hanze butaragera hano mu Rwanda, ariko si vuba kandi kera bizaba byahageze, aho ushobora kugura igicuruzwa maze ukaba wakipimira ingano yacyo ndetse ukareba n'amafaranga gishobora kwishyura binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Bumwe mu buryo bwo gupfunyikira abantu ku bicuruzwa bamaze kugura, butandukanye cyane n'ubwo kera bakoreshaga mbere y'uko baca amashashi, aho wasangaga bapfunyika mu mashashi, umuntu yayijugunya ahantu bikaba ngombwa ko itabora ariko kuri ubu bakaba basigaye bakoresha ibipapuro ushobora kujugunya ahantu kikaba cyabora mu buryo bwo gukora isuku mu mujyi wa Kigali.

Kuri ubu biragoye cyane ko ushobora kumara icyumweru utagiye gushaka serivisi y'ubucuruzi, ariho leta ishishikariza ba rwiyemezamirimo kuba batanga serivisi inoze ndetse bakishimirwa n'ababagana, kugira ngo n'ubutaha bazabagane.

Bamwe muri ba rwiyemezamirimo kuri ubu usanga bavuga ko imiryango y'ubucuruzi yahenze. Abandi bakanavuga ko yabuze, bitewe n'uko n'uyifite atemera kuyitanga ku mafaranga agereranyije kandi biba bisaba ko uyu muntu azabanza gushaka abakiriya.

Bimwe mu bitungura ba mukerarugendo ni uburyo bakirwa n'ababaha serivisi hano mu Rwanda aho banatungurwa cyane mu kubona bimwe mu bicuruzwa hano mu Rwanda biba bigifite umwimerere bitandukanye nabo ko babigura byamaze guca mu nganda.

Zimwe muri sosiyete z'itumanaho zikunzwe n'abanyarwanda benshi cyane, harimo iyo bita MTN, usanga iganwa n'abaturage benshi, aho bigaragara ko ari nayo yaje mbere y'izindi zose tubona hano mu Rwanda, usibye ko hari n'izagiye ziza ariko zikaburirwa irengero.

Imwe mu byo abanyarwanda bamaze kumenyera, ni amasoko aherereye mu mazu manini, ayo dukunze kwita ay'abasirimu, aho usanga iyo ugiyeyo ugiye guhahirayo, haba hari abantu benshi bagiye batandukanya yaba ari abanyamahanga, ndetse n'abenegihugu basanzwe, kuko haba harimo ibikoresho byinshi binyuranyuranye, umuntu akenera ku munsi ku munsi.

Bamwe mu bacuruzi bavuga ko ibicuruzwa bacuruza aribyo bituma ababagana bahagera, kubera ko usanga bitewe n'ubwoko ucuruza abantu bakugana babishaka maze bakabibona ariko bitandukanye n'abacuruza ibintu byose kuko bo bahorana abakiriya.

Bimwe mu bikorwa by'iterambere ba rwiyemezamirimo bagaragaramo cyane, ni inzu z'ubucuruzi zigenda zubakwa, aho byorohera abacuruzi kuba bagenda bagafatamo umuryango, maze hakaba ariho bashyira ibikorwa byabo, kandi babona abakiriya.

Amwe mu masoko manini tugenda tubona hirya no hino amaze kuba menshi, ayo abantu bakunze kwita ay'abasirimu dukunda kubonamo ibintu bigiye bitandukanye udashobora kubona hirya no hino mu yandi masoko, aho usangamo ibikoresho by'ubwoko bwose ndetse n'ibindi bicuruzwa byihariye utabona cyangwa se ngo usange mu yandi masoko dusanzwe tujyamo.

Mu guteza ubuvuzi imbere, leta y'u Rwanda, yashyizeho uburyo bwo gukangurira abaturage, kwishyura mituweli, aho usanga umuturage uyifite ibasha kumufasha mu buryo bwo kwishyura amafaranga makeya, mu gihe agiye gusaba serivisi kwa muganga.

Bamwe mu baturage bakenera zimwe muri serivise zikorerwa mu nzego z'ibanze usanga basigaye banyurwa na serivise bahawe nyuma y'uko leta y'u Rwanda yagiye ikangurira abayobozi bose kujya bita ku bibazo birebana n'abaturage kuruta ibindi byose.

Amwe mu mashimwe abantu bahabwa usanga bayishimira cyane, bitewe n'inyungu ndetse n'akamaro ababafitiye, cyane ko usanga igihe ugize igihembo runaka utsindira, biba ari byiza cyane ku muryango wawe inshuti ndetse n'abavandimwe, cyane cyane no ku buzima bwawe kuko uba ugiye kugira icyo uhindura mu mibereho yawe bwite.

Bumwe mu buryo Leta yakoresheje mu kwegereza ubuvuzi bworoshye abaturage ni ukubashishikariza kugura mituweri, imwe muri gahunda yashishikarizaga imiryango kuba yakwitabira uburyo bwo kwishinganisha mu kwivuza, ibi kandi bikaba abantu benshi byarabakoze ku mutima ndetse baranabyishimiye cyane.

Kuri ubu kwishyura hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga icyo twita gukoresha ikarita ni ibintu abantu benshi bishimiye, kubera ko bibarinda kuba bagendana amafaranga mu ntoki rimwe na rimwe ugasanga bayataye.

Itandukaniro rigaragara cyane mu masoko agezweho n'amasoko twari dusanzwe tuzi duhahiramo umunsi ku wundi, ni iri ngiri: ni uko usanga ibintu byabo byose biri mu makarito cyangwa mu mashashi runaka, ariko twebwe tukaba twarabiguraga kuko byavuye mu murima.

Amwe mu maduka dusanga mu mazu manini akomeye ahahirwamo cyane n'abanyamahanga. Aho umunyarwanda usanzwe ashobora kukubwira ko ibiciro byabo biba bihenze kandi atari ko bimeze. Gusa ari ugutinya kuba yajyayo.

Bumwe mu buryo busigaye bukoreshwa n'abatanga serivisi zo mu masoko manini, usanga bagenda bagira abakozi benshi aho umukozi aguherekeza akaba yagufasha guhitamo cyangwa se gushakisha ibyo ukeneye maze akaguha serivisi nziza.

Imbuto ni bimwe mu bicuruzwa bidakunze gusangwa henshi, aho usanga ababishaka bajya kubirebera mu masoko manini amwe dukunze kwita ko ahurirwamo n'abantu benshi, aha usanga umucuruzi ufite ibi bicuruzwa abifata neza ndetse bikaba bigifite ubuziranenge.

Amwe mu masoko agenda agaragara manini mu nzu z'inyubako z'ubucuruzi usanga abanyarwanda benshi cyangwa abaturage batinya kujya kuyahahiramo, kuko baba bumva ibicuruzwa birimo bihenze kuko akunda gukoreshwa cyane na none n'abanyamahanga baje gusura u Rwanda, cyangwa se abandi bantu dukunze kwita abasirimu.

Bikunze kubaho ko ushobora gushaka ibikoresho runaka cyangwa ibindi bintu ukabibura mu maduka matoya ariko iyo usuye amaduka ayatwita ko ari manini usanga harimo ibintu bigiye binyuranyuranye kandi ku giciro gisanzwe kitarengeje cyane kucyo wari kugura muri ya maduka igihe wari kubibona.

Bimwe mu bitajya biranga abanyafurika cyangwa se umuco w'abanyafurika ni ugusoma ibitabo, aho mu mashuri y'imyigire twagiye tugira, abarimu batwigishaga badushishikarizaga kujya dusoma ibitabo gusa ibi ntibijya biba ibya buri umwe kuko usanga nka mirongo inani ku ijana y'abakunda gusoma ibitabo ari abazungu gusa.

Bamwe mu bacuruzi bashimishwa cyane no kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho abantu bamaze kubisobanukirwa ndetse mbere babaga bumva ko ari ukubiba ariko ubu ngubu imyumvire yahindutse bitewe n'uko bimaze kuba iby'abantu bose.

Bamwe mu bakunzi bakoresha ikawa cyangwa se icyayi, usanga bagenda babona amaduka menshi abakorera ibyo bicuruzwa ku buryo umuntu ashobora no kuba yagitahana, aho uhanyura maze ukaba wafata igikombe cyawe, ugakomeza muri gahunda wari ugiyemo.

Bimwe mu bicuruzwa tubona mu maduka, ayo dukunze kwita y'abasirimu usanga abantu benshi batabizi, kuko biba bitandukanye cyane n'ibyo dusanga mu maduka duhahiramo yo muri karitsiye dutuyemo, ariko kuri ubungubu usanga abantu bamaze kugenda babisobanukirwa kubera kugana ayo maduka manini.